Abantu batatu aho bahagaze muri banke, bakaba baje gushaka serivise zitandukanye ndetse bose bakaba bari gufashwa n'abakozi ba banki.

Umuntu ufite ubumuga nawe ashobora kujya mu nzego z'umutekano kandi hari ibintu byinshi ashobora gukora harimo kwifatanya n'abandi, akibumbira mu makoperative kimwe n'abandi akaba yaba inyangamugayo akizerwa akabika amafaranga y'abandi kandi akazi kose ko mu gihugu ashobora kukifatanyamo.

Butike irimo utuntu dukeya cyane, akabati ndetse n'indobo iteretse hejuru y'akabati, iyo ndobo ikaba irimo capati.

Mu nyubako nyinshi zicururizwamo ibintu haba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibyo bicuruzwa bifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu bicuruzwa hashobora kubamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ricuruza inkweto nyinshi zigiye zitandukanye by'umwihariko hakaba harimo kamambiri, inkweto zifashishwa iyo umuntu agiye koga cyangwa akazambara ari mu rugo.

Umupadiri uhagararanye n'umupolisi, bakoranye mu ntoki, bakaba kandi bafite icyapa cyanditseho ngo: Gerayo amahoro.

Ufite imodoka agomba gukora uko ashoboye kose iyo modoka igahorana isuku agomba kuyishyira ahantu hadateje akaga kugira ngo abandi nabo babone aho bashyira imodoka zabo bityo umutekano n'amahoro bigakomeza kwiyongera.

Hoteri iri ahantu heza, hakaba hari jaride nziza, pisine yo kogamo, intebe zigiye zitandukanye, imitaka yo kugamamo mu gihe abantu bari kunywa n'ibindi.

Imashini idoda imyenda ikaba iteretse mu kibuga, imbere yayo hakaba kandi agatebe umuntu yicaraho mu gihe ari gukoresha iyo mashini.

Isoko ririmo abacuruzi batandukanye, hakaba harimo abari gucuruza: ibijumba, imyumbati, imbuto ndetse n'ibindi. Hakaba harimo abafite imitaka bitwikiye, amahema menshi harimo ibijumba ndetse n'imifuka n'ibindi byinshi.

Imeza iteretseho amafunguro, amafoke ndetse n'icyo kunywa mu icupa, hakaba kandi n'akarahuri, ubona ko gasa nkaho karimo amazi cyangwa ikindi kintu gisa umweru.

Umumotari uhagararanye n'umugenzi akaba agiye kumutwara bombi bambaye agapfukamunwa, ndetse motari akaba ari no guha umugenzi umuti wica udukoko kugira ngo amanze awukarabe mu ntoki babone kugenda.

Ibinyabiziga birimo moto bifite akamaro cyane kuko bishobora gutuma umuntu wayiguze abona amafaranga yo kwikenuza mu gihe afite ikibazo cy'ubukene, ibinyabiziga bigirira akamaro ba nyirabyo ariko nanone bashobora kubikodesha bakabona amafaranga.

Gutwara abantu n'ibintu ni umwuga ushobora kungura umuntu uwukora. Hari abantu benshi batwara abantu kuri moto, bakaba bagira inyungu bakuramo. Abo bantu bagomba kubanza guhabwa impushya zibemerera kujya mu muhanda.